Umugabo munini cyane. Yambaye impuzankano bigaragara ko ari umwirabura. Imbere ye hakaba hari ibyapa biranga ibyo akora. Bikaba byanditseho mu ndimi z'amahanga. Didi yu fili dati? ifu ifukwake inshuwarensi.

Radiant yacu ni ikigo gishinzwe gushyira ibintu mu bwishingizi. Aho bari kwamamaza bakwereka ko n'ingurube zifite ubwishingizi.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi aho hagaragaramo imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe, ndetse n'abagenzi bari kugenda n'abanyamaguru, ku nkengero z'umuhanda hakaba inzu z'ubucuruzi kandi kuri buri nzu akaba ari icyapa kiranga igikorerwamo, ikirere kikaba gisa ubururu ndetse n'ibicu by'umweru.

Umudamu uryamye mu ntebe bigaragara ko yifashe ku gahanga, akaba afite ibibazo bitandukanye kandi hakaba hari n'icyapa cyanditseho mu ndimi z'amahanga No worry we are here for you, wihangayika ndi hano ku bwawe.

Telefone nini ngendanwa aho bigaragara ko bari kukwereka uburyo ushobora kuyikoresha wiyoherereza amafaranga.

Ubaryo ushobora gukoresha ukoresha serivise za bake, ukoresheje terefone ngendanwa bakaba bari kukwereka uburyo wakoresha ukagera aho ushatse ukoresheje izo serivise za bake.

Telefone nini ngendanwa, aho bigaragara ko nyirayo ari kuyikoresha yiyoherereza amafaranga, kandi akaba yanayikoresha yohereza amafaranga ku muntu ashakaba. Bikaba bigaragara ko iyo serivisi ari ikoreshwa na banki. Ikigo gishinzwe kugenzura ubukungu mu Rwanda.

Inzu ntoya y'ubucuruzi. Aho bigaragara ko harimo imyenda y'abahungu ndetse n'abagabo itondetse neza cyane, bikagaragara ko hejuru hari n'amashati y'abahungu ndetse n'abagabo. Hakagaragaramo n'inkweto z'abagabo z'ubwoko zitandukanye ndetse n'amapantaro yabo.

Inzu ntoya y'ubucuruzi bigaragara ko harimo ibicuruzwa bitandukanye aho hagaragaramo amasahani ndetse n'ibiyiko ndetse n'ibyuma n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bigaragara ko hacururizwamo imyambaro itandukanye, aho hagaragaramo imyambaro y'abadamu ndetse n'abagore n'abagabo, ukaba ubonako hejuru hari amatara amuritse umweru.

Abadamu babiri ubona ko bafite akanyamuneza ku maso, aho umwe ubona ko afite umusatsi mwinshi cyane, aho hantu bari ukaba ubona ko ari mu nzu y'ubucuruzi bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, aho harimo imyambaro y'abadamu ndetse n'iy'abagabo.

Inzu y'ubucuruzi, aho ubona ko hacurururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba hagaragaraho n'ibishushanyo byanditseho mapu ofu Kigali.

Inzu ntoya y'ubucuruzi bigaragara ko harimo ibicuruzwa bitandukanye aho hagaragaramo ibyo kunywa ndetse n'inkweto z'abadamu hakaba hari n'imyenda itandukanye y'abadamu ndetse n'abagabo hakaba hagaragaramo umukobwa bigaragara ko ari gufata ibicuruzwa ashaka kugura.

Inzu y'ubucuruzi bigaragara ko hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho hagaragaramo umwana w'umukobwa afite mudasobwa ari kurebamo, hakurya hakagaragaramo n'abandi bantu bacuruje.

Inzu y'ubucuruzi bigaragara ko harimo amakoti y'abagabo ndetse n'amashati, hakagaragaramo n'igishusho kifashishwa mu kwamamaza imyenda bakora. Hagaragara umukobwa ari kwaka serivisi ndetse n'undi mugabo uri kwaka serivisi kuri abo bantu, bacuruza aho ngaho. Hakagaragaramo n'amafoto y'abantu atandukanye.

Inzu ntoya y'ubucuruzi, aho bigaragara ko hicayemo abantu. Bari kuruhuka ndetse hakaba harimo n'imitako y'indabo itandukanye, hejuru n'aho hakaba hari ibintu bifashije kuba bitatsemo aho ngaho bimeze nk'amatara.

Inzu nini cyane bigaragara ko icururizwamo imodoka z'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'ibyapa biranga ibyo bakora aho ku mpande ubona ko hari meza iteretseho mudasobwa ndetse n'impapuro zo kwandikamo.

Ni imodoka nziza y'icyitegererezo hirya yaho hakaba haparitse andi moko y'amamodoka aho bigaragara ko hacururizwa amamodoka hakurya hagaragara mu mazu atuwemo n'abantu ndetse n'isinga z'amashanyarazi kuva mu gace kamwe zijya mu kandi bikagaragara ko hakorya izuba ryarashe.

Imodoka nziza cyane y'icyitegererezo bigaragara ko irahantu bazigurishiriza iyo modoka ikaba yitwa toyota lava fo hybrid bikaba bigaragara ko yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri nacumi na karindwi ikaba iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni mirongo itatu.

Ahantu hacururizwa imodoka aho bigaragara ko ari imodoka z'ubwoko butandukanye, hakaba hari umugabo ufite icyapa cyanditseho akagera moto, hakaba n'inzu nini cyane yabugenewe bigaragara ko harimo n'andi ma modoka imbere.

Imodoka nyinshi ziparitse ahantu hamwe ubona ko zikorera sosiyete imwe ikorera mu Rwanda mu ndimi z'amahanga bita varukano, imbere yazo hakaba hagaragara abagabo babiri banini bigaragara ko bakorera iyo sosiyete ikirere kikaba gifite ishusho isa ubururu ndetse n'ibicu byiganje umwe hejuru hakaba hagaragara insinga z'amashanyarazi ziva mu gace kamwe zijya mu kandi.

Imodoka nziza cyane isa umukara aho bigaragara ko hari abasore bahagaze bayireba, umwe muri bo akaba yambaye impuzankano ,hakurya hakagaragara igikuta cyubakishije amabuye hakaba hariho urugo rw'ibyuma.

Umugabo ndetse n'umudamu, bafashe icyapa mu ntoki, bigaragara ko bari kwamamaza ibyo bakora aho umudamu azamuye ikiganza cy'ibumoso, amanitse intoki ebyiri, hejuru ku nzu hakaba hagaragara icyapa cyanditseho Akagera moto. Ikirere kikaba gishya ubururu n'ibicu byiganje umweru, hakagaragara n'igikoresho nsakazamajwi .

Imodoka nziza cyane y'agatangaza, ubona ko ari imodoka nshyashya yo mu bwoko bwa toyota yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Ikaba ifite mo ibyapa biri kuyamamaza, igiciro cyayo bikagaragara ko ari miliyoni mirongo itatu na zirindwi.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho hagaragaramo umumotari utwaye umugenzi. Hakurya ye hakaba hari inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, hakaba hari ibyapa biranga ibikorerwamo ndetse n'indabo zizengurutse ku muhanda nziza.

Akagera Motos bigaragara ko ari sosiyete ishinzwe gucuruza imodoka zitandukanye aho bigaragara ko hari abagabo babiri bafite icyapa cyerekana ko ari ABG Akagera MotoS hakaba hari imodoka z'ubwoko bwose bunyuranye.

Abagabo babiri bigaragara ko bafashe icyapa kiranga ibyo bakora kuri icyo cyapaka banditsemo abg akagera moto akaba afite n'akandi gakapu gatoya mu ntoki gasa umutuku inyuma yabo hakaba hari imodoka nini yifashishwa mu gutwara imizigo.

Imodoka nziza cyane bigaragara ko iyo modoka iri kugurishwa, no hakurya hakaba haparitsemo n'andi mamodoka y'ubwoko atandukanye, aho hantu bikaba bigaragara ko ari ahacururizwa imodoka z'ubwoko butandukanye.

Akagera muto ikigo gishinzwe gucuruza imodoka aho bigaragara ko hasi hari imodoka iri gutangirwaho urugero, hakaba ari abagabo babiri bafite ibyapa biranga ibyo bakora.

Imodoka nziza cyane ubona ko utapfa kubona ahandi, ukaba ubona ko aho hantu hacururizwa imodoka hakurya hakaba hagaragara ibiti bikuze cyane ndetse n'amazu atuwemo n'abantu, hakaba harimo n'umuhanda nyabagendwa, hari gucamo umumotari utwara umugenzi. Ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Inzu nini cyane ubona ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho ubona ko igice kinini gicururizwamo imodoka, kuri iyo nzu hakaba hari icyapa kiranga ibikorerwamo, hakaba hari icyuma kinini gitwaye insinga, zimwe zikivana mu gace kamwe zijya mu kandi, ikirere kikaba gisa ubururu n'ibicu byiganje umweru, hakaba hari n'indabo.

Imodoka nziza cyane isa umukara yanditseho imbere ku cyapa kiriho, Kigali kari maketi, hirya y'aho hakagaragara ibiti by'indabo bikuze ndetse hakagaragara n'ahantu hatuwe n'abantu, ikirere kiba gisa ubururu n'ibicu byiganje umweru

Inzu nini bigaragara ko icururizwamo imodoka, aho bigaragara ko haparitswemo imodoka z'ubwoko butandukanye. Kandi hakaba hari n'icyapa kiranga izo modoka ndetse n'ibihakorerwa. Hakaba ku mpande z'urugo hari indabo zisa neza cyane.

Inzu bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho hagaragaramo abantu bicaye imbere, imbere yabo hari za mudasobwa ndetse n'amakayi bari gukoresha bandikamo. Bikaba bigaragara ko bakorera sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda MTN.

Abantu bigaragara ko baje kureba amafaranga, aho mo imbere mu nzu hari abashinzwe kubaha ayo mafaranga bambaye impuzankano ndetse n'amakarita aranga akazi bakora. Bikaba bigaragara ko ari ikigo gishinzwe kubika imari, amafaranga y'abaturage ndetse no kuyabaha nk'inguzanyo.

Amafaranga menshi cyane atandukanye, bikaba bigaragara ko aya mafaranga atari amanyarwanda, hakaba hariho ishusho y'umukuru w'icyo gihugu ayo mafaranga aturukamo, bikaba bigaragara ko uri kuyabara yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso.

Inzu bigaragara ko yo iri gutangirwamo serivise zitandukanye. Aho tubona ikigo gishinzwe gukontorora ubukungu gikorera mu Rwanda. Hari umukozi wacyo uri gukoresha mashini abara amafaranga, ndetse n'umukiriya waje kureba serivise zihatangirwa.

Amafaranga menshi y'ubwoko butandukanye aho bigaragara ko ayo mafaranga atari a abanyarwanda hakagaragara n'imashini yifashishwa mu kubara amafaranga ndetse n'ibindi bintu bisa nk'umweru.

Amacupa menshi atandukanye arimo amazi iruhande rwayo hakaba ari amverope ebyiri zigaragara ko harimo ibintu, bikaba birambitse ku meza imwe hakurya yaho hakaba hari ishusho isa umweru.

Igikombe kibugajemo amata, aho bigaragara ko kiri ku meza asa umweru, hakurya hagaragaramo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Ahantu bigaragara ko bacuruje. Aho ubona ko harimo ibicuruzwa nk'amazi ndetse n'amaji yo kunywa. Aho ubonako hicayemo umukobwa w'umucuruzi, hakaba umugabo uhagaze uri kwaka ibyo bicuruzwa, hakaba hari n'ibyapa biranga ibihakorerwa.

Umukobwa bigaragara ko ari kubuganiza amata mu kajere, aho ubona ko hari ubujere bwinshi butandukanye bubuganijemo amata ndetse n'igikoresho cyabugeneweye mu gutunganya amata, mu idirishya hakaba harimo n'umukobwa uri kumureba ibyo akora.

Umwana mutoya cyane bigaragara ko ari igitambambuga, akaba afite telefone ntoya mu ntoki, hirya ye bikagaragara ko harimo abantu bari guseka bari kumureba, kandi ku mpande ze hakaba hari icyansi kibuganizwamo amata.

Ibyo kurya bitandukanye bigaragara ko bigiye bifunze mu mashashi atandukanye, bikaba biri mu ishashi enye zitandukanye bigaragara ko birambitse ku kameza, hakurya hakaba hari ibara risa umweru.

Abantu benshi bigaragara ko batonze umurongo bari kujya kwaka serivisi zitandukanye, inzu bari kwinjiramo ukaba ubona ko hejuru hari icyapa cyanditseho mu ndimi z'amahanga wesitani yuniyoni.

Telefoni ngendanwa, aho bigaragara ko ifashwe n'igipupe. Bikaba bigaragara ko cyishimye cyane kiri guseka, cyambaye impuzankano y'umweru ndetse n'umutuku n'inkweto zisa umukara. Hakaba hari n'ikirangantego cya sosiyete ikorera mu Rwanda bita Airtel Money mu ndimi z'amahanga.

Hano barerekana uburyo ushobora gukoresha serivisi za sosiyete y'itumanaho ikorera mu rwanda emutiyeni ukaba wakohereza amafaranga cyangwa wagura n'ama inite ukoresheje iyo serivisi.

Urupapuro ruriho ikirangantego cya repubulika ofu Rwanda. Aho bigaragara ko hariho n'ikirangantego cya Rwanda reveni otoriti. Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Bikaba bigaragara ko ari urupapuro ruba rwerekana umuntu watanze umwenda, ndetse n'umukono we, n'itariki yawutanzeho.

Urupapuro rwifashishwa mu mafaranga aho rukoreshwa n'ikigo cyabushinjwe Rwanda reveni otoriti gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro, hakaba hagaragaraho izina ry'uwatanze umusoro, itariki, n'amafaranga. Hakagaragaraho n'umukono we.

Urupapuro rutangwa n'ikigo gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro bita mu ndimi z'amahanga Rwanda reveni otoriti. Rukaba rugaragaraho itariki ndetse n'amazina y'uwatanze imisoro, n'umukono.

Ikigo gishinzwe kwaka imisoro n'amahoro aho bigaragara ko uru rupapuro rwerekana uwatanze imisoro n'amahoro itariki ndetse n'umunsi yayatanzeho hakaba hagaragaraho n'umukono we.

Urupapuro rwifashishwa mu mafaranga aho urwo rupapuro rutangwa na rwanda reveni otoriti, ikigo gishinzwe mu gukusanya imisoro n'amahoro, hakaba hagaragaraho izina ry'uwayatanze ndetse itariki n'umunsi n'umukono we.

Amafaranga menshi atandukanye, aho bigaragara ko ayo mafaranga atari amanyarwanda bikaba bigaragara ko muri iyo nzu ariho hakorerwa, ivunjishwa ry'amafaranga.

Amafaranga y'ubwoko atandukanye, bikaba bigaragara ko hagiye hariho n'ishusho y'umukuru w'igihugu ayo mafaranga aturukamo, bikaba bigaragara ko ayo mafaranga atari amanyarwanda, bikaba bigaragara ko aho hantu ariho hakorerwa ivunjishwa ry'amafaranga, mu ndimi z'amahanga akaba aribyo bita forenyi karensi handolingi.

Amafaranga menshi cyane bigaragara ko ayo mafaranga atari amanyarwanda, hakaba hagiye hariho ishusho y'umukuru w'igihugu ayo mafaranga aturukamo, bikaba bigaragara ko ari abantu bari kuyabara batandukanye, aho hantu ukabona ko hatangirwa serivisi z'ivunjishwa ry'amafaranga.

Amafaranga menshi cyane atandukanye bigaragara ko ayo mafaranga atari amanyarwanda ,ayo mafaranga akaba ariho ishusho y'umukuru w'igihugu aturukaho aturukamo, bikaba bigaragara ko aho hantu hari ivunjishwa ry'amafaranga rihakorerwa.

Amafaranga menshi atandukanye bigaragara ko ayo mafaranga atari amanyarwanda, hakaba hari umuntu ari kuyabara, uka ubona ko aho hantu hashobora kuba hakorerwa ivunjishwa ry'amafaranga atandukanye.

Amafaraga bigaragara ko atari amanyarwanda ayo mafaranga akaba ariho umukuru w'igihugu cy'ayo mafaranga aturukaho aho hantu bikaba bigaragara ko hakoreshwa hakoresherezwa ivunjishwa ry'amafaranga aribyo mu ndimi z'amahanga bita foreyini karensi handoringi.

Amafaranga menshi atandukanye bikaba bigaragara ko aya mafaranga atari amanyarwanda hakaba hari abantu bari kuyabara aho hantu hakaba hari ahantu hatangirwa serivisi z'ivunjishwa ry'amafaranga.

Amafaranga menshi atandukanye bigaragara ko ayo mafaranga ataramenyarwanda, hakagaragaramo abantu bari kuyabara ndetse n'abayakura mu gakapu, bikaba bigaragara ko aho hantu ari ahantu hagungishirizwa amafaranga atandukanye.

Amafaranga menshi cyane atandukanye aho bigaragara ko atari amanyarwanda, akaba ariho umuperezida w'igihugu aturukamo, bikaba bigaragara ko ari umuntu uri kuyabara, bikaba aho hantu herekanwa ko hatangirwa serivisi z'ivunjishwa ry'amafaranga.

Amafaranga menshi atandukanye y'amanyarwanda, aho bigaragara ko harimo inote z'igihumbi ndetse n'iza bitanu n'andi mafaranga anyuranye bigaragara ko atari abanyarwanda, hakagaragara umuntu uri kuyabara, bigaragara ko aho hantu ari ahantu hagenewe serivise z'ivunjishwa ry'amafaranga.

Inzu nini itangirwamo serivise zitandukanye. Aho hagaragaraho ibyapa biranga ibikorerwamo. Aho hantu bikaba bigaragara ko hakoreshwa mu ivunjishwa ry'amafaranga atandukanye.

Indabo nyinshi nyinshi cyane ziteye amabengeza, hakaba hari n'icyapa kirimo cyerekana ko aho hantu hari ibiro by'ivunjishwa ry'amafaranga, hakaba hari n'andi mazu atangirwamo serivisi zitandukanye, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Inzu bigaragara ko ikorerwamo serivisi z'ivunjishwa ry'amafaranga aho hagaragaramo za mudasobwa, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gufata amashusho ndetse n'amajwi, na za kamera.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye aho hagaragaramo za mudasobwa ndetse n'ibikoresho nsakazamajwi nka tereviziyo, aho hantu bikaba bigaragara ko ari ho ibiro byo kuvunjisha amafaranga bikorera byo mu ndimi z'amahanga bita foreni biro andi karensi egisicengi kiyosiki.

Inzu nini cyane ikorerwamo serivisi zitandukanye, aho kuri buri muryango hagiye hariho icyapa kiranga ibikorerwa muri iyo nzu, bikaba bigaragara ko aho hantu hashinzwe serivisi z'ivunjishwa ry'amafaranga.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho tubasha kubona n'amaso hakaba ari ibyapa byanditseho ngo purayimu forekisi biro mu ndimi z'amahanga. Aho hantu bikaba bigaragara ko ari ibiro bitangirwamo serivisi z'ivunjishwa ry'amafaranga atandukanye.

Intebe nziza cyane ubwoko butandukanye, hakagaragaramo n'ameza akoranye ubuhanga buhanitse aho hakurya hagaragara n'ikigega cyifashishwa mu kubika amazi, hakaba n'ibiti birambitse ahantu hamwe hakaba n'indabo zikuze cyane hakurya hagaragaramo n'amazu atuwemo n'abantu.

Intebe nziza cyane bigaragara ko zikoranye ubuhanga buhanitse, aho hagiye hariho n'imisebo ndetse n'utumeza tunini ndetse n'udutoya, iyo nzu bikaba bigaragara ko aho hantu ari mu rwakiririro.

Inzu mberabyombi, aho bigaragara ko harimo intebe zinyuranye, zikaba zifite imyenda yo kwishyirwaho y'amatora y'umukara, hakagaragara n'imeza ndetse n'utundi dutebe dufite umwihariko, hakagaragaramo n'ibyapa biranga ibiri gukorerwa muri iyo nzu.

Intebe nziza cyane zizengurutse akameza, ahantu bigaragara ko ari mu ruganiriro, bikaba bigaragara ko izo ntebe zavuye mu mbaho zituruka mu biti, hanze ikirere kikaba gisa umweru.

Mu ruganiriro ubona ko harimo intebe z'ubwoko zitandukanye, ukaba ubona ko zikozwe mu mbaho zituruka mu biti, aho hakurya hagaragaramo n'igikoresho cyabugenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro aricyo mu ndimi z'amahanga bita faya egisitingwisha.

Imitako myiza cyane y'agahebuzo bigaragara ko ikoze n'imbaho ziva mu biti. Hakaba kuri buri kantu hagiye hariho ikintu gitandukanye n'ikindi.

Intebe nziza cyane. Bigaragara ko ikoranye ubugeni. Hakaba hari n'izindi zikoranye imisego ya matora yo kwicarwaho. Bikaba bigaragara ko izo ntebe zikorwa mu mbaho ziva mu biti.

Ububiko bw'imbaho nyinshi cyane bugaragara ko hari umuntu ubwicaye hejuru, hakaba hari n'ibitambaro byegereye aho izo mbaho ziri, bikaba bigaragara ko ari aho bacururiza izo mbaho.

Amacupa arimo amazi ndetse n'utundi tuntu tw'utw'amvirope, bigaragara ko harimo utuntu dutandukanye, bikaba biri mu nzu ubona ko ari inzu y'urwakiriro, aho ubona ko ifite n'ibindi byumba bitangirwamo serivise zitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bigaragara ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, aho hagaragaramo ibikoresho byifashishwa mu guteka ibyayi ndetse no mu guteka ibikoma, hakagaragara n'ibikoresho byifashishwa mu gusohora amajwi n'amashusho.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye aho hagaragara icyuzi cyabugenewe, gikorerwamo siporo ngororamubiri ndetse hakaba hari n'imitaka minini abantu bicaramo bari kuruhuka. Ikirere kikaba gifite ishusho isa ubururu ndetse n'ibicu byiganje umweru.

Inzu nziza cyane y'akataraboneka ubona ko ikorerwamo serivisi zitandukanye, hakaba hari umuhanda ushushanyije ujyayo, hakaba hari n'indabo zihakikije zisa neza cyane, ikirere kikaba gisa ubururu ndetse n'ibicu byiganje bisa umweru.

Inzu y'urwakiririro bigaragara ko harimo abantu benshi batandukanye aho hari abambaye impuzankano bakora muri serivisi zijyanye naho ngaho, imbere hakaba hari undi muntu waje kwaka serivisi zihatangirwa hakaba hagaragara n'ifoto y'umukuru wacu w'igihugu.

Indabo nziza cyane, zifite utuntu tw'umweru ku mitwe, hakagaragaramo intebe z'imikara, abantu bicaramo bari kuruhuka, hakurya yaho hakaba urugo rw'ibyuma ndetse na sima, bikaba bigaragara ko harimo umutaka uhari uzengurutse, ugera hejuru, ikirere kikaba gisa umweru.

Inzu nini cyane bigaragara ko ari iy'urwakiririro aho bigaragara ko ku mpande zayo ahahera, hasi haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'indabo zizengutsa aho ngaho nziza cyane.

Inzu y'urwakiririro bigaragara ko itangirwamo serivisi zinyuranye aho hagaragaramo jalide igiye irimo imitaka ndetse n'udutebe abantu bicaraho bari kuruhuka, hakaba hari indabo zitandukanye kandi zitohagiye ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Inzu nini y'ubwakiririro, bigaragara ko harimo umuntu ndetse n'intebe nyinshi zo kwicarwaho, abantu bicaraho bari kuganira, hejuru muri parafu bikagaragara ko hari amatara atatse mu bugeni, yaka ibara ryera.

Ubwiherero ndetse naho kogera bigaragara ko ari ahantu hafite isuku nziza cyane bikaba bigaragara ko iyo nzu ifite n'ibindi byumba bikorerwamo serivisi zitandukanye.

Inzu y'urwakiririro, aho bigaragara ko ifite icyuzi abantu bogamo iyo bari kuruhuka, hakaba hari intebe zitandukanye z'ubwoko bwose bicaramo bari kuruhuka, hakurya hakagaragara indi nzu bigaragara ko itaruzura neza, ikirere kikaba gisa ubururu bwivanze n'ishusho y'umweru.

Inzu nini cyane ubona ko itangirwamo serivisi zitandukanye aho harimo n'ibyapa biranga ibikorerwamo hasi hakagaragara ko harimo abantu mo imbere ndetse n'umuntu uri hano ku mbuga itangira ahagaze.

Inzu nini cyane bigaragara ko ari nziza aho ubona ko hagiye harimo intebe zitondetse abantu bicaraho bari mu ruganiriro, hakaba harimo n'ibishushanyo bigiye bitatse aho ngaho muri iyo nzu, bikaba bigaragara ko hakorerwamo serivisi za inshuwarensi kampani mu ndimi z'amahanga.

Abantu benshi cyane bigaragara ko bicaye ku ntebe z'imikara hakaba harimo n'umwe uhagaze kandi buri wese imbere ye hakaba ari mudasobwa, aho hantu hakaba hasa neza cyane.

Inzu nini cyane ubona ko yubakanye ubuhanga buhanitse aho bigaragara ko iyo nzu itangirwamo serivisi zitandukanye bikaba bigaragara ko kuri buri muryango hagiye hari icyapa kiranga ibikorerwa mo.

Umukobwa wambaye impuzankano isa n'ubururu, bikaba bigaragara ko yishimye. Akaba ari kwamamaza ibyo akoramo. Ku cyapa ari kwamamaza hakaba handitseho mu ndimi z'amahanga "De fiyuca izi panafurikani".

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho kuriba muryango hagiye hariho icyapa kiranga ibikorerwamo hasi akaba ari abantu babiri ndetse n'umukobwa ugiye kwinjira bategereje iyo serivisi zitangirwa aho ngaho.

Umukobwa ubonako yatangaye cyane yishimye, aho bigaragara ko afite telefone ngendanwa imwe nini, bikagaragara ko inyuma ye hari inzu nziza cyane y'icyerekezo, bigaragaza ko aribyo ari kwamamaza.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho ihiye ifite ibyapa bigenda biranga ibikorerwamo, imbere yaho hakaba haparitse moto itwara abantu ndetse kandi hakaba hari n'indabo zinini zikuze.

Ikigo cya bipiyara gikorana na banki ishinzwe kugenzura ubukungu mu Rwanda, aho hagaragaramo umuntu wambaye ibikoresho by'impuzankano, yifashishwa mu kubaka.

Inzu nini cyane bigaragara ko harimo ibicuruzwa bitandukanye kuri buri muryango kandi hakaba hagiye harimo ibyapa byerekana ibikorerwamo hasi hakaba hari utuntu tugiye dufite amabara y'umutuku n'umweru tukaba ari tune.

Umukobwa bigaragara ko afite akanyamuneza ku maso akaba afite umusatsi mwinshi, bigaragara ko yafashe ibiganza akazamura intoki ebyiri ebyiri kuri buri kiganza, imbere ye hakaba hari mudasobwa bikaba bigaragara ko ari kwamamaza ibyo akora.

Umugabo bigaragara ko afite impapuro ari gushyiraho umukono we, imbere ye hakaba hari umukobwa uri kubara amafaranga kandi akaba yambaye impuzankano, bigaragara ko ari inguzanyo ahawe.

Isoko rinini cyane ubona ko ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, aho hagaragaramo inyanya ibitunguru, n'intoryi, hakaba bagaragaramo n'abantu batandukanye benshi, baje gushaka ibikorerwamo aho ngaho.

Isoko rinini cyane ubona ko harimo ibicuruzwa bitandukanye aho hagaragaramo karoti, ibigori, ibitoki, inyanya, n'imbwija ndetse n'ibindi byokurya umuntu wese akenera mu buzima bwa buri munsi.

Isoko aho bigaragara ko harimo ibyo kurya binyuranye, hakabamo imbuto zitandukanye hakabamo n'ibinyampeke ndetse n'ibindi biribwa by'ubwoko bwose, bikagaragara ko harimo abakobwa ndetse n'abana bakiri batoya.

Isoko bigaragara ko hacururizwamo imyenda itandukanye iy'abagore ndetse n'iy'abagabo. Hakaba hagaragaramo umugabo wicaye ndetse n'abakobwa babiri, bigaragara ko baje kureba ibiri muri iryo soko ngo babigure.

Isoko kubona ko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye, aho hagaragaramo imbuto ndetse n'imboga, inyanya n'ibitunguru ,hakaba hagaragaramo abadamu babiri bari guhererekanya ibintu, aho umwe afite amafaranga mu ntoki ndetse n'ufite imashini imufasha kwishyura umusoro wa Ibiyemu.

Isoko rinini cyane bigaragara ko hacuruzwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho hagaragaramo urujya n'uruza rw'abantu ruri mu mihanda ndetse n'imodoka z'ubwoko bunyuranye zaba izikorera imizigo ndetse n'intoya zitwarira abagenzi hamwe n'inini.

Isoko rinini cyane, bigaragara ko ritangirwamo ibicuruzwa bitandukanye. Aho hagaragaramo ibitoki, imbwija, inyanya, amakaroti, ibitunguru, intoryi, n'ibindi bitandukanye, bikaba bigaragara ko harimo abakiriya benshi baje kureba ibihatangirwa.

Mumuhanda nyabagendwa bigaragara kokorerishwa mu byerekezo byombi aho ku nkengero z'umuhanda haparitse imodoka ndetse hakaba hari n'imitaka ikoreramo sosiyete y'itumanaho yimutiyeni ikorera mu rwanda bakaba bambaye n'impuzankano abantu bayikorera hakurya hagaragaramo amazu akorerwamo ubucuruzi butandukanye ndetse hakaba n'ibyapa biranga ibicururizwamo.

Umugabo uhagaze bigaragara ko ari kwaka serivise za sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda ariyo bita mu ndimi z'amahanga emutiyene, hakaba harimo umukobwa wicaye muri ako kazu ka sosiyeti y'itumanaho.

Telefone nini ngendanwa, aho bigaragara ko ari abantu bari guhererekanya telefone nini ngendanwa, bikaba bigaragara ko ari akazu gakorerwamo serivisi zijyanye na sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda, mu ndimi z'amahanga bita MTN.

Inzu bigaragara ko harimo ibirango bya sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda bita MTN, bikagaragara ko hari abagabo babiri ndetse umwe akaba afite igikapu, hakaba harimo imeza irambuyeho ibyo birango.

Utuzu tubiri dutandukanye twa sosiyete z'itumanaho zikorera mu Rwanda aho kamwe ari aka sosiyete ya eyateri mane ndetse na sosiyete ya emutiyene, iya eyateri mane ikaba ifite ibirango by'umutuku ndetse n'iya emutiyeni ikaba ifite ibirango by'umuhondo ndetse byivanze n'umweru ikirere kikaba gisa ubururu n'ibicu byiganjemo umweru.

Akazu gatoya k'ubucuruzi. Bwa sosiyete ikorera mu Rwanda. Bita emutiyene mu ndimi z'amahanga aho bigaragara ko hariho abakozi bayo bambaye impuzankano ibaranga. Hakaba harimo umusore ndetse n'umukobwa. Hakurya yaho hagaragaraho ibiti bikuze cyane.

Beshi batandukanye bigaragara ko bari ahantu ku nzu ifite ibyapa biranga icyo ikorerwamo, bikaba bigaragara ko hakorera sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda bita MTN, hakaba hari n'izindi nzu z'ubucuruzi zitandukanye.

Ibirangotego bisa umuhondo aho bigaragara ko ibyo birangantego ari ibya sosiyete ikorera mu rwanda y'itumanaho emutiyene, mu ndimi z'amahanga bikaba bigaragara ko ari akazu karimo abantu batanga izo serivisi, hirya yaho hakaba n'andi mazu akorerwamo ubucuruzi butandukanye hakaba hari n'igiti kinini cyane.

Itsinda ry'abantu ubona ko bahagaze hejuru y'umuntu umwe yicaye, aho bigaragara ko bari kumubaza serivisi zijyanye na sosiyete y'iitumanaho ikorera mu Rwanda bita MTN. Hakaba hari n'ibirango byayo, hakurya hagaragaramo ibiti binini bikuze cyane, ikirere bikagaragara ko gifite ibicu byiganje umweru.

Indabo nziza cyane zitohagiye ubona ko ziri hejuru y'urukuta bikagaragara ko hari moto iriho igisanduka gisa umutuku cyanditseho yego bakaba bakwereka nomero za terefone wahamagara ubakeneye bikaba bigaragara ko utwaye iyo moto afashe mverope akaba yambaye agapfukamunwa.

Umumotari bigaragara ko ari gukora mu kintu azanye imbere cy'igisanduka, aho bigaragara ko ari kumwe n'undi muntu. Aho hantu hakaba ari amazu y'ubucuruzi atandukanye kandi hakaba hariho ibyapa biranga ibyo bakora. Hakurya hagaragara n'amazu atuwemo n'abantu, aho ari ibicuruzwa biba byatumijwe ku mbuga nkoranyambaga, bagahita babikuzanira aho uri utahavuye.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho bigaragara ko ukoresheje amabuye, hakaba harimo umumotari, yambaye impuzankano isa ubururu ndetse hakurya y'umuhanda, hakaba hari igipangu gituwemo n'abantu, hakaba harimo n'ibiti binini bikuze cyane, hino y'umuhanda hakaba hari ikintu gisa umuhondo.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko harimo umumotari utwaye ibintu, akaba yambaye impuzankano y'umutuku ndetse n'ikintu atwaye kikaba gisa umutuku, hakaba n'ibyapa biranga ibyo bakora, hakurya hakaba hari imisozi bigaragara ko iteyemo ibiti.

Inzu y'ikitegererezo, ubona ko yubakanywe ubuhanga buhanitse, aho hagaragaramo ubwiherero bw'ikerekezo ndetse na dushe y'ikerekezo, hakaba hari amabara asa umweru.

Inzu nini y'icyitegererezo bigaragara ko yubatse mu buryo buhambaye, ukana ubona ko iyo nzu iri kugurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali.

Ahantu hari umurima wo guhingwa bigaragara ko hahinzemo ibitunguru. Hakurya hakaba hari inzu zituwemo n'abantu, hakaba hagaragara n'imisozi ifite ibiti bikuze, ikirere kikaba gifite ishusho isa ubururu ndetse n'ibicu byiganje by'umweru, iyo nzu bikaba bigaragara ko ihereye aho ngaho, iri kugurishwa miliyoni icumi n'eshanu y'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nziza cyane y'icyitegererezo, aho bigaragara aho turi kureba harimo ubwiherero ndetse n'ubwogero, bikaba bigaragara ko iyo nzu iherereye Kabeza muri Kigali siti. Iyo nzu ikaba ikodeshwa amafaranga y'amanyarwanda agera kuri miliyoni ijana na mirongo itatu.

Inzu nziza cyane y'icyitegererezo, ubona ko ari iy'icyitegererezo, ikaba iherereye muri Kabeza Kigali, ikaba igurishwa miliyoni mirongo itanu n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nini cyane y’icyitegererezo aho bigaragara ko ifite uruganiro rwiza cyane, hakaba harimo intebe z'ubwoko bwose kandi hakaba hateguye mu buryo bushimishije, hakaba hari n'amatara y'ubwoko hejuru amurika.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye aho bigaragara ko iyo nzu iherereye ahitwa kacyiru muri kigali city iyo nzu ikaba ikodeshwa amadolari icy'atanu ku kwezi.

Inzu nziza cyane bigaragara ko ari igipangu kirimo inzu nyinshi, aho bigaragara ko hari irembo rinini, bikaba bigaragara ko iyo nzu igurishwa iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho bigaragara ko iherereye muri Kanombe Kigali siti. Bikaba bigaragara ko igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nziza cyane y'icyitegererezo ubona ko ari inzu utapfa gusanga ahandi aho bigaragara ko inzu iri gukodeshwa ikirere kikaba gisa ubururu kikaba gifite ibicu byiganje umweru.

Inzu nziza cyane bigaragara ko iri ku isoko, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, ahitwa i Kinyinya, ikaba ifite ibyumba bine na tuwarete eshatu, ikaba igurishwa miliyoni ijana.

Inzu nshyashya bigaragara ko yuzuye vuba, hakaba arimo n'ikigega gifata amazi, aho bakwereka ko iyo nzu ikodeshwa, ikaba iherereye muri Kigali Kabeza.

Inzu nziza cyane y'ikitegererezo aho bigaragara ko igiye ifite n'intebe zo kwicarwamo, ahahera hasi bikaba bigaragara ko iyo nzu iherereye rugando kigali siti iyo nzu ikaba ikodeshwa amadorari icyatanu ku kwezi.

Inzu nziza cyane ubona ko yubakanye ubuhanga buhanitse, aho bigaragara ko ifite imbuga nziza ndetse n'indabo ziri ku marembo zikoze neza cyane, bikaba bigaragara ko iyo nzu ikodeshwa ikaba iherereye muri Kigali i Kanombe.

Inzu nziza cyane y'icyitegererezo, bigaragara ko yubatse yubakanye ubuhanga buhanitse. Aho imbere yaho hari imbuga nziza iteguye neza cyane, ikirere kikaba gifite ibicu bisa umweruru byiganje mo ubururu.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho ku gice turi kubasha kureba n'amaso harimo n'ubukarabiro. Iyo nzu bikaba bigaragara ko ikodeshwa ifite icyumba kimwe cyo kuryamamo n'ikindi cyumba cyo kogeramo. Ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri by'amanyarwanda, ikaba iherereye muri Kigali Kacyiru.

Inzu nziza cyane ubona ko ari icyitegererezo, bigaragara ko iyo nzu iherereye muri Remera mu mujyi wa Kigali. Hakaba hari icyuma kiri ku mpande ndetse n'igiti bitwaye insinga z'amashanyarazi biwukura mu gace kamwe biwujyana mu kandi. Ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru.

Inzu yubatse ahantu hitaruye bigaragara ko ari inzu yuzuye vuba ukaba ubona ko yubakanye ubuhanga, imbere ku mbuga yayo hakaba hari jaride nziza cyane izengurutswe n'uturabo duconze neza cyane, hakaba harimo n'ibirabo bikuze, ikirere kikaba gisa umweru, hakaba hagaragara insinga zitambukana umuriro ziwukura mu gace kamwe ziwujyana mu kandi. Iyo nzu ikaba iherereye muri Kigali Kanombe.

Inzu nini zitandukanye aho bigaragara ko izo nzu zikodeshwa, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu, ikaba ifite ibyumba bine n'ibindi byumba bitatu byo kogeramo, ikaba iherereye Kagarama.

Inzu nziza cyane y'icyitegererezo, iyo nzu bikaba bigaragara ko iherereye mu Mujyi wa Kigali ahitwa Kibagabaga, ikaba ikodeshwa amadolari icya arindwi buri kwezi, ikaba ifite ibyumba bitanu byo kogeramo ndetse n'ibyumba bitanu byo kuraramo.

Isoko ricuruza imbuto zitandukanye, aho hagaragaramo amarongi ndetse n'imbuto zo guhekenya, bikagaragara ko umudamu ari guhererekanya n'umucuruzi bigaragara ko yishimye, hirya yabo hakagaragara n'undi mugabo uhagaze.

Inzu y'ubucuruzi nini aho bigaragara ko harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, aho hagaragaramo amakote y'abagabo ndetse n'abadamu, hakagaragaramo ibikapu by'abadamu ndetse n'amapantaro y'abagabo, hakaba hari n'inkweto z'abagabo ndetse n'abagore.

Inzu nini y'ubucuruzi aho bigaragara ko hacurujwe amamatora ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, hakaba harimo abantu benshi baje gushaka ibicururizwa aho ngaho.

Inkweto nyinshi cyane ndetse n'ibikapu by'abagore, hakaba harimo imyenda y'abagore ndetse n'abagabo, bikaba bigaragara ko harimo n'abandi bantu benshi baje gushaka ibicuruzwa aho ngaho.

Umukobwa ndetse n'umusore bahagaze aho bigaragara ko inyuma yaho hari umudamu uri gutambuka, hakurya hakagaragaramo ibicuruzwa bitandukanye.

Inzu nini cyane bigaragara ko ikorerwamo serivisi zitandukanye, aho hagaragara n'ibyapa bigenda biranga ibikorerwamo, hakurya hakagaragara ibiti biri inyuma y'inzu ikuze cyane, ikirere kikaba gisa ubururu ndetse n'ibicu byiganje umweru.

Inzu y'ubucuruzi aho igaragara ko hacurumizwa ibicuruzwa bitandukanye, hejuru ukaba ubona ko hari amatara yaka umweru kandi kuri buri gipande hakaba hari icyapa kiri kuranga ibihakorerwa.

Ababyeyi ubona ko bicaye ku ntebe bikagaragara ko harimo abafite abana batoya, aho bigaragara ko bazamuye udukarita tw'abana babo, akaba ari ubwisungane mu kwivuza bafite mu ntoki.

Ikibuga ubona ko hari kubera umupira w'amaboko, aho bigaragara ko hari abafana benshi batandukanye, hakaba harimo urubyiruko ndetse n'abantu bakuze, ukaba ubona ko harimo n'umuntu ufite indangururamajwi ari kuvuga ndetse n'ufite imipira ibiri mu maboko.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza aho bigaragara ko hariho ishusho y'abantu bari hamwe bari mu mutaka umwe, hakagaragaraho n'ikirangantego k'iyo karita mu ndimi z'amahanga bita ara esesibi.

Abadamu bicaye ahantu hamwe mu bwatsi hakaba hari n'abagabo bicaye ahahera haruguru bigaragara ko ari ibipapuro bari guhereza umuntu uhagaze usa nk'umuyobozi, hepfo hakaba hari izindi nzu zitangirwamo serivisi zitandukanye hakaba ari n'igiti gitwaye insinga z'amashanyarazi ziba mu gace kamwe zijyamo kandi ikirere kikaba gisa ubururu ndetse n'ibicu byiganje umweru.

Umugabo wambaye impuzankano bigaragara ko imbere ye hari indangururamajwi, ukaba ubona ko ari gutanga ikiganiro, ku mpande ye hakaba hari n'ibyapa byerekana ibyo bakora, kandi akaba ahagararanye n'umudamu we wambaye ibitenge ndetse ateze n'igitambaro mu mutwe.

Umukobwa wambaye impuzankano bigaragara ko afite umusatsi mwinshi, imbere ye bikaba bigaragara ko afite telefone nini ngendanwa ndetse n'ibindi bikoresho byinshi biri aho ngaho.

Isoko rinini cyane ubona ko harimo ibicuruzwa bipanze ku murongo, aho hagaragaramo ibyiganje ko ari ibyo kunywa. Hejuru hakaba hari amatara manini ndetse n'amato yaka ibara ry'umweru.

Isoko rinini cyane ubona ko harimo ibicuruzwa bitandukanye, ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya. Ukaba ubona ko hejuru hari amatara asa umweru ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gucunga umutekano aribyo mu ndimi z'amahanga kamera.

Isoko bigaragara ko hacururijwemo ibintu bitandukanye, aho hanagaragaramo imiti y'amatungo ndetse n'amafu y'ibikoma, bikaba bigaragara ko hari umuntu ufashe icupa ari kwerekana ibirimo.

Isoko rinini cyane, rigaragara ko harimo ibicuruzwa bitandukanye. Aho hagaragaramo za mudasobwa ndetse n'ibicuruzwa byo kuribwa bitandukanye. Hakaba hari n'ibyapa bigenda biranga buri gace ibikorerwamo.

Isoko rinini cyane ubona ko ritangirwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho hagaragaramo abagabo bacunze atanu bagenda bashyiramo ibicuruzwa bakeneye, hakaba hari n'abandi hirwa bambaye imyenda isa umuhondo ndetse n'abambaye imikara.

Isoko rinini cyane ritandukanye aho bigaragara ko hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye aho dusangamo imbuto zo guhekenya ndetse n'amakaroti, n'inyanya, amarongi ndetse n'ibindi hakaba hagaragaramo umukobwa ubicuruje yambaye umupira w'icyatsi kibisi.

Isoko rinini cyane bigaragara ko hacururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, aho hagaragaramo imbuto z'ubwoko bwose ndetse hakaba hagaragaramo n'amatara acanye, hakaba harimo n'ibirango bigenda biranga ibihakorerwa.

Isoko rigaragara ko hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye aho ubonamo imbuto z'ubwoko bwose butandukanye, aho hantu bikaba bigaragarako ari nijoro, amatara akaba ari kwaka.

Umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ukoreshwa mu byerekezo byombi, aho bigaragara ko aho hantu ari nijoro, hakaba hari n'amatara amurikiye umuhanda ndetse hakagaragara n'imodoka ntoya zitwararira abantu hamwe n'umuntu uri kugenda mu kayira kagenewe abanyamaguru.

Isoko rinini cyane ubona ko hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho hagaragaramo imbuto, inyanya, amakaroti ndetse n'ibitunguru, hakaba hari umukobwa uhagaze bigaragara ko ari guhaha ibyo akeneye.

Isoko rinini cyane, aho bigaragara ko hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aha tukaba tubona umusore uri imbere ye hari mudasobwa, hakaba harimo umukobwa uri kumwaka serivisi bigaragara ko umukobwa yishimye cyane kandi akaba afite umusatsi mwinshi.

Isoko rinini cyane bigaragara ko hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho hagaragaramo umugabo wambaye impuzankano akaba afite n'ivide mu ntoki ndetse n'umukobwa uri kureba ibihacururizwa, bikaba bigaragara ko afite akadobo kabugenewe ari gushyiramo ibicuruzwa.